Utunyamaswa tubiri dushushanyije harimo bakame ndetse'impyi, ababyibuka twibuka twiga uwo mugani mu mashuri abanza.

Umwana mutoya urimo aragana ku ishuri ry'incuke, aho agiye kwiga amasomo azamufasha, gusa haba harimo n'atazamufasha.

Ibintu bifashisha bigisha abana biga mu bigo by'amashuri y'inshuke, harimo nk'igishushanyo kimeze nk'igikeri n'ibindi.

Igishushanyo kigaragaza uko ikimera cyane cyane imbuto z'ibinyampeke zitangira kumera zimeze, aho gihera ndetse mpaka kigeze hejuru.

Igikuta gishushanyijeho uburyo urwungano rw'umubiri rukora, haragaragara igishushanyo kiriho impyiko imbere kuri urwo rukuta haparitseho igare rifite intebe bicaraho y'umutuku.

Udukoresho bifashisha bigisha abana bakiga mu ishuri ry'inshuke, dufite amabara atandukanye dukoreshwa babigisha.

Aha hari igishushanyo kiriho abana na bo bibipupe, umukobwa akaba ahetse agakapu gafite ibara ry'iroza hari kandi n'ibiti n'ubusitani hirya buhashushanyije.

Mu Rwanda ubu ibintu byaroroshye, abana basigaye bahabwa uburezi bakiri batoya, cyane cyane binyuze mu kwitabira amashuri y'inshuke.

Ikigo cy'amashuri kigishirizwa abana b'inshuke, inzu ihari isakaje amabati y'icyatsi, hariho n'ikigega gifata amazi avuye hejuru y'iyo nzu.

Ikigo cyigisha abana bakiri bato kugira ngo bakure bafite ubwenge, ku muryango hariho icyapa kigaragaza izina ry'icyo kigo bivuga ko ari ikigo cyitwa Zamaritani intanashono sukuru.

Ikigo cy'amashuri, kiriho abana bicaye hanze b'abanyeshuri, hari n'abarimu bahagaze barimo barababwira, umwe yambaye itaburiya.

Abana bicaye imbere y'umusaza arimo arabaganiriza hari n'inzu isakaje amabati ajya gusa umutuku, hari amagambo avuga ngo umubyeyi arimo aravugisha abana be.

Iki cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara utsindagiye, handitseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo urwunge rw'amashuri rwa Rukomo, muri Nyagatare.

Akuma gakunze kwifashishwa n'abanyeshuri bakiga imibare bibasaba ko bashushanya uruziga. Kitwa agacaruziga.

Mu ishuri harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe. Imbere hari umwarimu w'umugore, arimo arandika ku kibaho, nabo baramukurikiye bumva ibyo avuga.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri abanza, yigamo abana baba bakiga mu mashuri, hari urugi rw'ubururu, imbere hateretse kandagira ukarabe.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke kiriho udukoresho abana bifashisha bakina ndetse barya umunyenga, amashuri amwe yubakishije ibintu bimeze nk'imbaho.

Icyumba cyo ku kigo cy'amashuri kirimo ibitabo byinshi byifashishwa n'abanyeshuri igihe bakeneye kugira ibyo basoma kugira ngo bamenye amakuru yisumbuye, iri ni isomero.

Aha ni ku gishushanyo kirimo udukoresho dutandukanye harimo igitebo, inyundo ndetse n'akandi gatebo karekare n'icyuma bahatisha ibirayi.

Ibikoresho byifashishwa cyane cyane n'abanyeshuri baca imirongo, harimo utwuma dushushanya uruziga ndetse n'uduca imirongo igororotse.

Ikigo cy'amashuri kiza cyubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, kiriho ubusitani bw'indabyo hari igicumbi cyanditseho za kirazira.

Ikibuga kifashishwa bakina umupira w'amaboko witwa volebolo hirya, hakurya hari imisozi iriho ibidukikije.

Iki ni igishushanyo kigaragaza abana babiri b'abakobwa barimo baragenda mu nzira, handitseho amagambo avuga ngo amashuri y'inshuke.

Iki ngiki ni igishushanyo kifashishwa bigishirizaho abana bo mu mashuri y'inshuke kugira ngo batangire bamenyereze ubwonko bwabo gufata mu mutwe, hariho imibare itandukanye ndetse n'ubushushanyo by'imbuto ndetse n'imboga.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza baricaye mu ntebe barimo bariga imibare yanditse ku kibaho kiri imbere yabo hariho nk'umubare icumi.

Aha hari ibikoresho byifashishwa mu bukanishi, bitandukanye. nk'imakasi, inyundo, urukero, ndetse n'akandi kamashini kifashishwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Ikigo cy'amashuri kirimo amashuri asakaje amabati y'ubururu, hari imodoka iparitse y'umukara hari n'abantu barimo baragaragara na moto ifite kasike y'umweru.

Abana bakiri bato b'abakobwa, barimo baraseka barishimye, harimo umugabo wambaye amarinete, ubona ko yariye neza, bishoboka ko ari umuyobozi.

Umugore ubona atangiye kugera mu myaka yo hejuru, imbere ye ku meza hari agakaye gatoya n'amazi yo kunywa afite n'ikaramu mu intoki.

Abantu barimo abagore n'abagabo bambaye utujire turimo amabara y'icyatsi abandi umuhondo, barimo baragenda bafite ibyo bari kureba.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'ubururu hasi, batonze imirongo barimo barumva amabwiriza bari guhabwa.

Ikigo cy'Urwunge rw'Amashuri rwa Rukomo giherereye mu Karere ka Nyagatare, hano hari urwininjiriro ruriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ibikoresho bikorwa hashingiye ku buhanzi bw'ubugeni, hari imitako umuntu ashobora kumanika mu nzu ye hagasa neza.

Imbuga ishashemo amapave ku ruhande hari utuntu dusize amabara y'umweru n'umukara. Ni amarembo y'inyubako ihari nziza cyane, hari n'insinga.

Ikibaho cyiza kigezweho cyifashishwa bandikaho mu ishuri handitseho imibare ndetse n'amagambo.

Abantu bicaye mu ntebe bigaragara ko ari izo muri kaminuza. Bafite mudasobwa imbere yabo biragaragara ko harimo abaswa.

Inyubako nziza iriho icyapa kigaragaza ko ari inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda yigisha amasomo menshi atandukanye.

Iki ni igishushanyo kiriho umukobwa bashushanyije ufite imisatsi miremire, wambaye akantu gatoya gafashe amabere n'imalete mu ntoki.

Inyubako nziza cyane ifite amadirishya arimo ibirahure ndetse hamanuwemo n'utuntu tw kumurongo, imbere y'iyo nyubako hari amapave amaze igihe kirekire. Iyi nyubako birasa nk'aho ari inzu ya kaminuza.

Inyubako yubatse ku buryo bugezweho, ikaba ifite inzugi zirimo ibyuma, hirya hari ahantu hameze nk'abikwa imyambaro ndetse hari n'utuvaze.

Imbuga irimo amapave ku mpande hariho utuntu tugiye dusize amarange y'umweru n'umukara. Hari ibiti by'umukindo hirya hakaba hari n'inzu yubatse neza.

Agakayi gatoya benshi bakunze kwita agakarine kari hejuru y'urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo, byombi biteretse ku kintu gisa ibara ry'ubururu.

Mu kigo cy'amashuri, harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe bakoze amatsinda y'abantu batatu, barimo baraganira ku ngingo babahaye kuvugaho.

Agasumbashyamba kari hagati y'ibiti bibiri, ikigufi gifite amashami ndetse n'ikirekire kitagaragaza amashami yacyo neza . Hari ubusitani bw'umucaca.

Mu kigo cy'ishuri, rikuru, cyangwa muri kaminuza, harimo abantu babiri, bicaye mu ishuri, umwe afite urupapuro mu ntoki, bisa nkaho amaze gukora ikizamini.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ariko ku rwego rwa kaminuza. Isize amarangi y'umweru, harimo umuntu urimo aragendamo wambaye imyenda y'umukara, afite n'agakapu mu ntoki.